Ni abapolisi batandukanye bari kureba umuntu uri impande y'ameza, ameza akaba ateretsweho gaze, gaze iriho isafuriya, hirya y' ameza hari ikidomora, hakaba hari n'isafuriya.

Abasirikari bari kureba imbere, abandi bari inyuma ari benshi, bambaye ga z'umweru, bafite imbunda mu ntoki zigiye zitandukanye, bambaye n'udutisheti tw'icyatsi.

Abantu bari mu nama y'umutekano, polisi ari kubakoresha inama. Imbere hicaye abasaza batatu, umusaza umwe afite ingofero n'umukecuru witandije umukenyero, yambaye ingofero, hakaba hari abantu benshi bicaye ku mucaca, abandi bicaye kuri pipitile , inyuma yaho hari amashuri.

Amamodoka atandukanye harimo abagenzi batandukanye. Hejuru y'ayo mamodoka hari isaha iri kubara saa saba na mirongo itanu n'itandatu. Hirya y'amamodoka hari igipangu kirimo amatente, amatente hirya yoho hakaba hari ibikoni amanegisi, inyuma y'icyo gipangu hari amatara yo ku muhanda.

Hari igikoresho gipima umuvuduko w'imodoka, noneho imbere y'icyo gikoresho, hari umuhanda wa kaburimbo utatse amabara y'umukara, n'umweru, inyuma y'uwo muhanda hari ibiti bigiye bishamitse cyane.

Umupolisi uri mu muhanda yambaye ikote ririmo icyatsi n'umweru, ahetse agakapu amanitse ukuboko. Imbere ye hari abantu n'amamodoka menshi, ku ruhande hateye ibiti by'imikindo hirya y'aho naho hari imodoka n'inyubako.

Imodoka iri mu bwoko bwa Toyota, yikoreye imizigo myinshi, hejuru ya yo hari ipine, hakaba hari n'igare. Hakaba hariho n'igikapu cya londoni n'umufuka.

Abantu bahagaze ahantu hapavomesheje amatafari, imbere y'abantu hakaba hari kizimyamyoto, hakaba hariho n'igiti cy'imikindo kikiri gito. Hateretsemo na gaze, hakaba hari n'umuntu uri gupfundira isafuri iri mu muriro.

Abantu bambaye inifomu za kake, bambaye porote, bakaba bambaye n'ingofero, bambaye udupfukamunwa; utwinshi dusa ubururu, hari uwambaye akumukara, ak'umutuku, ak'umweru, nak'icyatsi, bakaba bambaye porote z'icyatsi, imbere yaho hakaba hari imyenda igiye iharambitse.

Umusirikare wambaye inifomo, akaba yambaye rinete, yambaye n'ingofero y'icyatsi iriho icyapa, akaba ari kureba imbere ye, hakaba ari mu zuba ryinshi cyane.

Abantu bari mu nama bicaye motente, ritekojwe ibara ry'umuhondo, uri kubabwira, afashe mikoro, yambaye rinete, yambaye ishati irimo ubururu, n'ipantaro y'umukara, ahagaze mu mucaca muremure, imbere ye hari umusirikari urimpande y'igare afite n'imbunda.

Inama iri gukoreshwa n'umupolisi abantu bakaba bicaye hasi bari kumureba, hakaba inyuma y'abo bantu hari inyubako ndende hakaba hirya hari n'ibiti bigiye ku nzu.

Abantu benshi, bicaye ku ntebe za parasitike, harimo abana, abagore, n'abagabo bicaye ku mapasiparumu harimo umugabo ufite igitiyo, hino yaho hari ahantu hapavomye, inyuma hari igipangu, hakaba harimo insina n'inzu y'ibati iri kuregukwa.

Isahani iriho ibiryo by'ibihaza n'ibidodori, hakaba harimo n'ibishyimbo, bikaba biri isahani y'umweru, ikaba irambitswe ku kirago kibohesheje imifuka.

Inka zifite amahembe manini yibinduye, inyambo. Zikaba zifite imitako itandukanye mu ijosi, zikaba ziri kugaragara ari eshatu, izindi ziri inyuma zitari kugaragara neza, inyuma hari inyubako idekoreshejwe umweru n'umukara.

Ni inka eshanu ariko eshatu ni zo zigaragara neza. Inka noneho zikaba ziri mu bwoko bw'inyambo. Inyuma y'izo nka hari inyubako kandi izo nka ziri mu rwuri.

Inka z'inyambo zifite amahembe yigoronzoye , hakaba hari umugabo ufashe inka afite n'inkoni , yambaye ishati y'umweru n'imikenyero irimo umweru n'umukara, undi nawe yambaye ingofero afite n'inkoni n'ishati y'umweru n'imikenyero y'umweru.

Ababyinnyi bari kubyina taradisiyoneri bambaye imishanana y'ubururu n'umweru, bambaye n'amayogi, bafite amacumu, bafite n'ingabo, bambaye n'imigara.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara, inyuma ye hari intebe y'urubaho hari n'idirishya, akaba yicaye afite umuhini ari gusekura mu isekuru.

Umurima uhinzemo imboga z'intagarasoryo, hakaba harimo insina iri kugaragara igice kimwe, hakaba harimo n'ibiti bibiri bishinze. Hirya yaho ku ruhande hakaba hariho igiti cya kawa.

Imbyino gakondo irimo abakobwa, hakabamo n'abagabo. Iyo mbyino gakondo abakobwa bakaba bateze amaboko cyane, hakaba hariho n'igisimba kibarangariye, icyo gisimba ariko kikaba kiri ku ifoto.

Hari umwana uri gusekura, hafi ye hari indobo, igitebo, n'ikidobo cyashaje ari kugenda ashyiramo ifu, inyuma ye hari abagabo batatu b'abasaza.

Umukobwa witeze igitambaro, wambaye urunigi rw'umuhondo, ari kurobanura ibintu ku nkoko, atetse ku isafuriya, imbere ye hari intama irya gusa n'umweru, iri kureba imbere.

Igisabo kiriho utugozi kirambitse ku nkoko, gikikijwe n’inkongoro ebyiri zifite imifuniko. Imbere yaho hari udutako tw’udukomo dutandukanye, n’imbere y’inkoko hari udutako tugiye dutandukanye.

Ari kuboha， ari kuboha inyegamo， mu muco gakondo...

Ni ibikoresho gakondo bimwe biteretse ku nkoko. Ibiteretse ku nkoko harimo igicuba, inkongoro, igisabo, urukiza hakaba hari n'ingoma, hakaba harimo n'imigara n'ibitebo.

Ababyinnyi ba taradisiyoneri bafite utuntu ku mpanga bagiye bipfundika ku mitwe, bafite ingoma imbere yaho nyinshi cyane, buri wese ari guseka arebye imbere, bafite n'ibiti bari kuvugisha ingoma. Imirishyo,..

Abagabo batatu bambaye hejuru ibintu by’umukara, undi akaba yambaye ingofero y’umweru, undi uri hagati yambaye inkweto z’umweru, uwo ku ruhande yambaye ipantaro y’umweru. Hagati y’abantu babiri hariho umuvure.

Abagore babiri bari kumwe n'umwana, inyuma yaho hari umufuka n'urugo ruteyeho imbariro z'ibiti, hakaba harimo n'igiko gishinze. Bari kubumba imiduri, bakaba bari kubumba n'imbabura, n'inkono z'ibumba.

Abantu bari kuboha ibirago by'ibikangaga, bari kubabohesha imifuka y'umweru. Umukobwa umwe yambaye umupira w'umutuku arasutse. Undi yambaye agashati k'umuhondo, yambaye n'agapfukamunwa, bari kuboha, umwe aboha ku ruhande rwo hino, undi aboha kurwo hirya.

Abakobwa bari kubyina taradisiyoneri bambaye ibikomo bakaba bambaye n'amayogi, umwe afite igicuba arapfukamye undi afite inkongoro arebye hino, bakaba bateze amaboko barambuye cyane. Inyuma y'aho hari ibintu bikozwe mu burere, inyuma hakaba hari inturusu.

Umuntu wambaye ishati y'umweru, akaba yambaye ikoboyi, akaba afite isaha, akaba afite umusatsi wa natireri, akaba afite n'igikoresho cy'inanga, akaba ari kuyicuranga areba imbere.

Ahantu hari utuyira tw'abagenzi tudapavomye, harimo indabo zayanze n'izitarayanga. Imbere yaho hari ahantu hari amakaro asize atandukanye. Hepfo y'amakaro hakaba hari ururabo.

Abantu bambaye ubusa hejuru abandi bakenyeye iby'umweru, abandi bakenyeye ibitandukanye hari n'abambaye impu, hakaba n'abandi batari kugaragara neza bari inyuma. Inyuma yaho hakaba hari ihema bakaba bafite amacumu.

Umuntu wambaye rinete , afite agati , yambaye ikote n'ishati y'umweru na karuvate, ari kuvuza umuduri , inyuma ye hari ikigega kinini kigiye gifite imigungiro itandukanye.

Hari igikoresho, igikoresho cy'umuco gakondo, icyo gikoresho kikaba kiri ahantu giteretse, hakaba hari imigano igikikije ishinze, icyo gikoresho tukaba tucyita ko ari umuvure.

Ahantu hateretse igikoresho cy'umuvure, gishigikijwe n'ibuye. Inyuma y’uwo muvure hari imigano y’urugo ihashinze, igiye izengurutse umuvure. Hakaba hari n’igiti gitatse amabara y’umukara, n'umweru n’icyatsi.

Ikirago kibohesheje imifuka y'umweru, hasi hakaba hari ikindi kirago kibohesheje imifuka y'umweru, harimo n'umutako w'inyegamo, utakijijwe amabara y'umukara, hakaba hateretse igicuba gipfundikije urukiza bapfumuye.

Umuco w'umuco gakondo, hari abakobwa babiri batandukanye, basokoje amasunzu, bambaye ibikomo mu ntoki, bakaba banambaye ibintu mu ijosi.

Igisabo giteretse ahantu h'umukara, gifite imigozi igiye inyuranyuranyemo ku mpande hose igiye itandukanye, nako hejuru gapfundikije igisabo kariho imigozi.

Umuntu wambaye isarubeti y'ubururu, akaba imbere yambariyeho indi ijya gusa umukara, ni ti sheti y'umutuku, akaba afite igikombe cy'abakonsiye kirimo ikigage kituzuye neza.

Ikirago gitatsemo inyegamo zitandukanye zitakishijwe amabara y'umukara hakaba hari uducuma tubiri tugiye turimo imiheha ibiri ibiri, hakaba hari n'inkangara zitakishijwe amabara agiye atandukanye ikangara eshanu.

Ni umucuranzi uri kuvuza umuduri, hafi y'uwo mucuranzi hari abantu batandukanye, hirya y'abantu hahinze insina noneho uwo mucuranzi akaba akenyeye umufuka.

Ikirago kiriho inkoko. Inkoko irambitseho urukiza n’uduti tubiri. Hakaba hari n’igicuma kirimo umuheha. Inyuma y’ikirago hakaba hari urugo rusokesheje ibikenyeri.

Umusaza wambaye ingofero y'urubaraza, inyuma ye hari abandi bahicaye ku gatebe k'agasongabugari, hirya ye hari intebe ikozwe mu mitamu, akaba yicaye ku birago biboheshejwe imifuka y'umweru, hakaba harimo n'imitako y'umukara.

Ni imbyino gakondo, imbere hari abagabo bari kubyina babiri barebye inyuma undi arebye imbere. Inyuma yaho hakaba hari ingoma n'abari kuzivuza, n'abakorari bari kuririmba. Hirya yaho hakaba hari undi mugore wambaye umutuku n'umwitero w'ubururu.

Inka z'inyambo bambitse ibintu by'umweru, hakaba hari abagabo babiri buri mugabo afite inka n'inkuyo, bakaba bambaye ingofero y'umukara n'ishati y'umweru n'imikenyero irimo umweru n'umukara, undi akaba afite inkuyo afite n'inkoni n'ingofero y'umukara inyuma yaho hari ibiti.

Hari ingobyi ebyiri zigerekeranye, hari n'injishi ziri iruhande rw'ingobyi, n'ibitebo bitanu, icya gatandatu ntikigaragara neza. Akaba ari ibitebo bikiri bishyashya, bihomesheje amase.

Inkoko iboheshejwe imitamu ariko ikaba irimo amabara atandukanye. Ibara rya mbere ni umweru, irya kabiri umuhondo, hakaba harimo n'irindi riri kure y'umuhondo ry'ubururu cyane.

Umugore wicaye ku kirago, kiboheshejwe imifuka y'umweru, akikijwe n'inkongoro ebyiri, akaba afite igisabo, kikaba giteretse imbere ye, yambaye umupira urimo; umweru n'umukara.

Umuntu ufite isahani. Iyo sahani ikaba irimo amasaka y'amamera yinitse hakaba harimo n'ibigori byinitse. Hirya y'uwo muntu hari imifuka ibiri igiye igerekeranye.

Imigano myinshi irambitse, hakaba hari ihambiriye, indi itemaguye, hakaba hari urugo rwubakishijwe imigano, imbere yaho hakaba hari igitanda kiri kugaragara k'imigano, imbere y'iyo migano hateretse gaze, indi migano ikaba irambitse ku nzu, iteye irangi ry'ubururu.

Abagore bari mu mpande zitandukanye bari gutonorera imineke mu mivure, buri wese akaba agiye afashe ku gitoki, ari gutonora imineke ashyira mu muvure.

Abagore bari kuboha imitako igiye itandukanye, hakaba n'uwa gatatu utari kugaragara neza. Bakaba bari kuboha igikapu kirimo imitako ya kaki, umutuku n'ubururu bwijimye. Inyuma y'icyo gikapu hakaba hari undi uri kugaragara usutse.

Hari ikibindi giteretseho ingata kikaba gipfukishijwe amakoma, gifite n'ikiziriko hakaba hari imiheha itatu impande y'icyo kibindi. Hari inkiza enye, inyuma y'icyo kibindi hari ikindi kintu kitari kugaragara, inyuma hino naho hari ikibindi kindi gipfundikishije ikintu.

Ni urusengero rw'abakatolika, urwo rusengero rukaba rufite imitako itandukanye , rwubakishijwe amakaro , musenyeri aricaye, umuhereza ari kumuhereza bibiliya, inyuma ya musenyeri hari undi muhereza, inyuma y'umuhereza hakaba hari umusaraba ubambweho yezu kirisitu.

Inyubako nini imbere y'aho hakaba hapavomesheje udutafari, imbere nanone hakaba hari indabo zikase. Inyuma hakaba hari inyubako y'agacurama, ikaba itari kugaragara neza.

Inyubako ishakakajwe amabati yumutuku ,ifite agasongero gafite umusaraba . Imbere hicaye abantu benshi cyane ,imbere y'aho hari umucaca uhari mwinshi cyane.

Inyubako ya gitwe kimwe iriho igitambaro cy'umweru, ikaba iriho n'amakaro. Imbere y'aho hari umuhanda w'igitaka, ku ruhande hakaba hari umurima urimo indabo, inyuma hakaba hari igiti kigandaje, hakaba hariho n'ikigega.

Urugo runini cyane, imbere yaho harimo ishyamba. Urwo rugo rukaba rufite umuryango w'icyatsi, imbere y'urwo rugo hari umucaca utarafatana, imbere y'uwo mucaca hari ahantu hahingaguye umuhanda w'igitaka urimo amabuye, hirya yaho hakaba hari utuzu duheneranye, inyuma yaho hari ishyamba.

Urusengero ruriho ishusho ya Bikiramariya ritakishijwe indabo ziri mu mavaze, hariho igitambaro cy'umweru. Hirya ya bikira mariya hakaba hari ishusho ya Yezu.

Inzu iriho amakaro akoreshejwe umusaraba ,ifite umuryango, urugi rw'umutuku ,uruhande rumwe rukinguye ,imbere y'umuryango hakaba hari amesakariye hafi n'iyo nzu hari iyindi nzu y'ibiti isakajwe n'ihema akaba ari inzu idahomye hafi y'iyo nzu hakaba hari n'iyindi batari basakara.

Abantu bari kugenda ku kiraro cy'ibiti gifite imikwege, bambaye amajire y'icyatsi n'udupfukamunwa tw'icyatsi, umwe yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, undi yambaye ishati y'icyatsi ku ruhande rwabo hari ikintu kidekoresheje ubururu, umuhondo n'icyatsi, inyuma yaho hari abantu bari kugenda.

Ni urusengero rw'abakatorike rurimo umusaraba, rukaba rurimo amafoto agiye atandukanye y'amashusho, hakaba harimo intebe z'imbaho zigiye ziteye ku murongo.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye yubatse mu buryo bucuritse uruhande rumwe, imbere hari pasiparumu n'insina imbere yaho hari imbuga igiye irimo amabuye.

Inzu ifite amabati yakereberanye, ifite umuryango umwe, ikaba ifite umuryango ufite irangi ry'ubururu, imbere hakaba hapavomye, hasi yaho hakaba ari imbuga ibereye aho idapavomye, inyuma hari kureguka indi nzu n’utwatsi turimo hagati.

Ni umuhanda urimo ibara ry'umuhondo, inyuma yaho ku ruhande hakaba hari inyubako zitandukanye, hafi y'uwo muhanda hari umugenzi uri ku igare imbere y'inyubako yindi hari umuntu uhetse yitwikiye umutaka.

Urusengero rufite amadirishya menshi rufite umuryango umwe w'icyatsi, rukaba rufite n'agasongero hakaba hari umuhanda uhavuye hari n'urukarabiro, imbere y'aho hakaba hari umucaca hafi n'urusengero, mu ruhande hakaba hari ishyamba rirerire.

Urusengero, urwo rusengero imbere ya ho hari ipoto, hejuru y'urusengero hanyuze urutsinga, imbere y'iyo poto hari amarisikariye agiye ahanyuze.

Inzu zubatse ziri ku murongo zitandukanye, hirya yaho hari indi nzu nini cyane ifite agasongero karinganiye, ifite n'amadirisha imbere, imbere y'izo nyubako zose hateye indabo, inyuma y'inyubako hari kugaragara ibicu byinshi cyane.

Umupolisi ufite inkoni ari hafi n'umuhanda udapavomye, hafi ye hari pasiparumu n'imodoka, hirya hari inyubako zitari kugaragara, hakaba handitseho icyapa cya sitopu.

Inyubako yanditseho isoko y'amajyambere saco umurenge saco. Imbere y'iyo nyubako hari imodoka eshatu, imbere y'iyo nyubako hakaba hari umuhanda wa kaburimbo. Mu ruhande rw'iyo saco hakaba hari ubusitani burimo igiti cy'umutsindo.

Ibiro by'akagari ka Ruseshe, iyo nyubako ikaba imbere yaho hari idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, imbere hakaba hari ibibuye bigiye bisandaguje, imbere nanone gato hakaba hari umuhanda wa kaburimbo.

Ni inyubako y'Akarere ka Musanze. Imbere y'iyo nyubako hari imodoka. Imodoka iriho icyapa cy'umusaraba. Imbere y'iyo modoka hari indi modoka itari kuboneka neza, iri kuboneka ipine y'inyuma.

Ni imisozi y’icyaro. Kuri uwo musozi hari ikiraro kihubatse. Kuri icyo kiraro harimo abantu batandukanye, hakaba hariho n’udutako tugiye dutandukanye. Munsi y’icyo kiraro hari umugezi wa ruhurura, imigezi ibiri ihuye. Hino y’iyo migezi hari ubwoko bw’ikimera cyitwa amatovu.

Urusengero rukikijwe n'abihayimana benshi, hakaba higanjemo ababikira bambaye udupfukamunwa. Hakaba hari n'umubikira ku ruhande wambaye ibitandukanye n'iby'abandi. Hagati hakaba harimo Musenyeri ufite inkoni, yambaye n'ingofero n'agapfukamunwa gatandukanye n'ak'abandi, gasa ubururu.

Inzu y'imiryango ibiri isakaje amabati y'ubururu, imbere y'umuryango hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru, afite matora, imbere ye hari abana, imbere hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye gishaje, inyuma y'iyo nzu hari inzu ndende isakajwe amabati y'umutuku.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ifite inkingi z'ibyuma hakaba hari ibikwa by'ibiti. Imbere y'iyo nyubako hari umugozi uhari, uri hirya hakaba hari n'agapasiparumu gake.

Ni ahantu harambaraye, inyuma yaho hari kureguka inyubako yubakishijwe amakaro, hirya yaho n'ubundi hakaba hari kureguka inyubako isakaje amabati y'ubururu, no hagati hakaba hateye indabyo zitandukanye n'igiti cya avoka, hino hakaba hari indabo ziri kureguka.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, hakaba handitseho icyapa cyanditseho ibiro by'intara y'amajyaruguru, nodani porovensi hedikota.

Inyubako isakakajwe amabati y'umutuku , imbere hari ibara ry'umutuku , inyuma hari ibara ry'umuhondo n'icyatsi, hakaba hariho n'amakaro , ikaba ifite umusaraba, inyuma hagiye hari amazu menshi atandukanye.

Inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati y'umutuku n'udusongero dutoya. Hari umunyeshuri uhahagaze wambaye ishati y'umweru n'jipo y'umukara, hakaba iriho urugi rw'icyatsi harimo na rido. Imbere yaho bari kutera pasiparome.

Inyubako z'umweru nyinshi cyane imbere yaho hari umuhanda w'igitaka, hari n'imodoka, hari abantu b'abagenzi bari kugenda hafi y'iyo modoka, hakaba hari indabo zikase ziringaniye.

Urusengero rw'abakatolike rufite agasongero kanini cyane, imbere y'urusengero hari amayesikariye, hafi yaho hakaba hateye ibiti by'imikindo, imbere yaho hakaba hari umumotari wambaye jile y'umutuku. Ku rusengero hakaba hari n'ishusho ya Bikiramariya.

Ahantu hari ikiraro cy'imikwege gitandukanye kikaba cyitandukanyijweho n'ibiti by'ibiti hakaba hariho imikwege. Imbere yaho hari umuntu uri kuza ku mpande hashinze ibiti bitandukanye hasi hakaba hari amazi hakurya hakaba hari imisozi iringaniye.

Inyubako zitandukanye, akaba ari inyubako zigiye ziri ku murongo, zigiye zimanuye. Imbere y'izo nyubako hakaba hahinze ,bari kuhatera pasiparume. Hakaba hari ubutaka bucuritse.

Inzu isakakajwe amabati yubururu, hejuru yaho hari ipoto rinyuzeho insinga. Imbere yaho hari pasiparumu zitarahura neza, imbere hakaba hari umuhanda ugiye urimo amabuye.

Imodoka iri kwambuka ikiraro, ikaba iri kucyambuka ariko ari mu muhanda w'igitaka. Muri icyo kiraro hakaba harimo n'igare, inyuma y'iyo modoka n'umunyekare hakaba hariho abantu bari kubareba.

Inyubako, inyubako igeretse kabiri akaba ari amashuri. Hariho umunyeshuri uri mu muryango, hakaba hari ku ruhande umuyobozi, noneho imbere y'iyo nyubako hateye pasiparumu.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, imbere y'aho hari umuhanda upavomesheje amatafari. Hino no hirya hakaba hari umucaca, hino hakaba hari igiti cy'inturusu kigandaye gikuze cyane.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye. Imbere y'inyubako hagiye hari akayira karimo udutafari dusongoye bakoresheje, hakaba hateyemo ibiti bitarakura, imbere y'iyo nyubako hakaba hari na garaviye.

Abanyeshuri bicaye mu ntebe, bicaye ku meza. Bafite ibipapuro imbere bari kugenda basoma, hakaba harimo n'abambaye umupira w'ubururu. Harapavomye ahantu bicaye, hari amakaro, imbere hari umukobwa usutse.

Abantu benshi bicaye ahantu hari ibyatsi bijya kuba binini, hakaba higanjemo abagore biteze, hakaba hari umugabo ufashe undi yamuzamuriye akaboko, akaba afite n'igikayi kijya gusa umutuku, ari kurahira imbere y'abantu.

Abanyeshuri bambaye iniforume, bambaye imipira y'umutuku, hasi bambaye icyatsi, hakaba hari umwarimu, uri kubereka icyapa cyanditseho watariyumanirayitifayindawuti.

Abantu bari mu nama bakaba bicaye imbere y'inyubako. Iyo nyubako ikaba ifite ikigega ku ruhande. Abantu noneho bari mu nama hakaba hari umugabo uri kubabwira amabwiriza.

Abagore bari mu nama biteze bose benshi baricaye abandi bifubitse ibitenge. Abandi bambaye inkweto bazishyize hasi bicaye ku mucaca, inyuma hari igiti kjya kubatwikira. Hagati hateyemo avoka inyuma hari inyubako.

Abantu bicaye ahantu hatandukanye ,bamwe bicaye hasi ,abandi bicaye ku ntebe z'imbaho ,hari umuntu uri kwandika akaba yambaye umupira w'umuhondo, hari n'undi uri imbere uhagaze mu mabuye.

Ni abagore babiri biteze. Umugore umwe afite icyibo undi nawe afite ikindi. Hakaba hari n'abagabo babiri na bo bafite ubwoko bw'ibyibo, bakaba bari imbere y'icyapa kiriho abantu babiri.

Abantu bicaye ahantu higanjemo abagore batandukanye biteze, hakaba hari umugabo ufite mikoro uri kubabwira atunze intoki yambaye ikoboyi n'ishati y'umutuku. Imbere ye hirya hari bafule n'imeza nini, hirya hakaba hari amashuri ashakakajwe amabati y'ubururu, inyuma y'ayo mashuri hari umusozi urambaraye.

Ni umugore uri kuvugira muri mikoro, imbere y'uwo mugore hari bufure, hirya hakaba hari umusaza, inyuma ye hari abandi bagore bahagaze, abandi bakaba bicaye bamushungereye.

Abantu bari ahantu hamwe baricaye, abandi barahagaze hari umugabo wambaye ikote ry'umukara, imbere ye hari intebe yasheze ,hari n'umugore wambaye ikanzu yo mu gitenge yiteze igitambaro cy'umweru, afite mikoro ari kuvuga.

Umugore uri ku igare akaba ahetse imifuka ibiri yayihambirishije umugozi w'igishamburere imbere ye hari imodoka imbere ye nanone hari umuntu uri kuva iyo agiye inyuma ye hakaba hari umukecuru wicumbye ikibando.

Abamotari bari imbere y'inyubako ndende hafi n'aba bamotari, hagiye harimo abagenzi. Inyuma y'umumotari hari umuntu wambaye umupira wo mu cyapa utukura. Aho abamotari bari hakaba hapavomesheje amatafari.

Inyubako iriho icyapa cyanditseho "Twubake Neza Tigo Kashi", hakaba hariho moto ziriho abantu benshi bagiye batandukanye, imbere hari umugenzi uri kugenda yicumbye umutaka, akaba ahetse n'umwana muri iswime y'iroze.

Ritiko ziri mu muhanda, umuhanda urimo ibara ry'umuhondo. Ritiko ebyiri ni zo ziri kugaragara, izindi nta bwo ziri kugaragara neza. Inyuma ya ritiko hari ibiti bitari binini cyane. Inyuma y'ibyo biti hakaba hari inyubako ifite irangi ry'umweru n'ubururu.

Ahantu bacururiza harimo imitaka ya Emutiyeni n’iya Eyateli, hari n’umuntu uri ku igare, yambaye kamambiri n’ipantaro ihinnye, yambaye ijile y’ubururu n’ingofero y’umutuku. Inyuma ye hari undi mwana ufite rinete mu mutwe.

Amarembo, amarembo imodoka ziri inyuma yayo, noneho imbere y'ayo marembo hari inyubako zitandukanye, hari n'ipoto noneho inyuma yaho hakaba hari abamotari, abamotari bari ibumoso undi akaba ari iburyo.

Amarembo ariho amakaro, hakaba hari icyapa cyanditseho rubavu basibasi, hakaba hari imodoka iri gusohokamo ya twegerane, n'umuntu uhetse igikarito, akaba hari n'umuntu uri ku igare, hafi n'imodoka hari umuntu wambaye umupira w'umuhondo, n'umuntu wikoreye ibasi y'umutuku.

Ahantu hari abantu benshi, hari ibisheneti bitatu, hakaba hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umujampa, akaba ari hafi n'igisheneti, undi acyicayeho, yambaye isengeri y'umutuku irimo n'ubururu, hirya ya ho hamanitse amapantaro y'abagabo ari kugaragara cyane.

Inyubako yanditsweho Werikamu, hafi y'iyo nyubako hari akararo kambutse kaza mu muhanda, mu muhanda wa kaburimbo, imbere y'iyo nyubako hakaba hari umuntu wikoreye umufuka, yambaye bote z'icyatsi.

Umukobwa utwaye moto, muri iyo moto hakaba harimo abagabo, umwe yambaye ijiri ry'icyatsi, undi uri inyuma akaba ari gushyira ibintu mu modoka bigiye bitandukanye, uwo mukobwa akaba yambaye na kasike.

Gare irimo amamodoka menshi. Imbere hari akamodoka gato hakaba hari n'abantu benshi bamwe bafite amamalete n'abambaye imipira y'ubururu . Inyuma hari imodoka enye ziri ku kumurongo ,zanditseho volukano

Abagenzi batandukanye, abo bagenzi bafite amagare , hari batatu bicaye i ruhande rw'iburyo , abandi barimo hagati hirya yaho harimo umuntu ufite anvirope. Anvilope ikaba isa nka kaki.

Umuntu uri ku igare, ahetse injerekani y'umweru, izirikishijwe igishamburerere, afashe ku modoka inyuma y'iyo modoka, hari indi modoka ntoya, ihagaze hirya, hari utundi twuma duhari, hakaba hari umuntu ku ruhande.

Gare irimo abantu benshi batandukanye , harimo abambaye umweru , umutuku , umukara umuhondo . Hari imodoka iri imbere iri kugaragara abantu bayiriho ari benshi , bashaka kuyinjiramo . Inyuma yaho hari indi itambitse , hakaba harimo n'imodoka nyinshi zigiye zitandukanye.

Imodoka itwaye amakositara menshi, hejuru y'ayo ma kositara ari mu modoka hari abagabo batatu, ku ruhande rw'imodoka hari undi muntu wambaye ipantaro. Imbere y'iyo modoka hari imodoka iri kugenda, inyuma y'imodoka ihetse amakositara, hari undi mugabo wambaye ijire uri kuyihengereza munsi.

Ikinyabiziga cyikoreye ibintu byinshi cyane, harimo ibimashumashu bitwikijeho ihema ryashaje. Inyuma yaho hari umugabo. Hagati y'uwo mugabo hari ibase y'icyatsi, inyuma y'ibasi hari umugore wambaye ikanzu.

Kaburimbo irimo amagare, hakaba hari inzira y'abagenzi n'inzira y'ibinyabiziga. Hakaba harimo abamotari n'abatwaye amagare. Hafi na kaburimbo hari igiti kigandaye, hirya gato hari inyubako zirimo kugaragara.

Abamotari batandukanye bari mu muhanda wa kaburimbo, bose bari ku murongo bahagaze ahantu hamwe. Inyuma hari agasozi gatuweho n’abantu benshi, inyuma hari n’ipoto rifite urutsinga rwambutse.

Amato arimo abantu bambaye imituku, arimo abantu benshi. Ku gasongero k'ubwato hariho umuntu uharyamye. Imbere y'amato hari andi mato atarimo abantu, hakurya hari udusozi duto turiho ibiti byinshi.

Ni imodoka zitwara imizigo, hafi y'izo modoka hari umuhanda urimo abantu barimo kugenda ,hari abari kuza umwe uri kugendera ku igare ,hari n'undi uri gusubira inyuma nawe akaba ari kugendera ku igare, hagati na ho harimo umuntu uri ku igare uhetse undi.

N'imodoka itwaye imifuka myinshi cyane, inyuma y'iyo modoka hari tagisi, imbere y'iyo tagisi hari umucaca urimo kugaragara gake, icyapa cy'iyo modoka itwaye imifuka kikaba cyanditseho isuzu.

Ni ubwoko bw’amamodoka, hakaba harimo Kwasiteri na Ritiko. Noneho mu mpande z’iyo modoka ya Kwasiteri, hari abantu batandukanye. Hari abagabo batatu bari kumwe, abandi bakaba bari iruhande. N’abo bantu bari iruhande bandi, hagati hateretsemo umufuka upfunditse.

Ni gare irimo amamoto menshi, imbere y'inyubako ya gare, hariho imodoka y'umukara, kandi imbere y'iyo gare, hariho akazu ka emutiyeni, imbere y'akazu ka emutiyeni, hari ikintu cy'ubururu.

Gare irimo abantu benshi hakaba harimo n'imodoka nyinshi. Hakaba harimo imodoka ebyiri ziri kugaragara imwe yanditseho Kigali koci indi yanditseho Yaho. Ahafi na gare hakaba hari imigozi ibiri ihari inyuma yaho.

Umuntu wambaye ingofero y'umukara irebye inyuma yambaye n'ijire ririho umuhondo akaba ahagaze hafi ya moto iriho kasike z'ubururu ebyiri ,imbere hari kasike y'icyatsi inyuma ye hari undi muntu ufashe igikombe ari kunywa.

Ni gare, iyo gare irimo amamodoka menshi agiye atandukanye, harimo abamotari bagiye batandukanye, mur'iyo gare inyuma yaho hakaba hariho inyubako.

Imodoka ya Vorukano itwaye abanyeshuri, hakaba hari abanyeshuri barimo na shoferi, abandi bakaba bari kwinjira. Abanyeshuri bambaye umweru n'umukara, bakaba bambaye n'amasogisi y'umweru n'inkweto z'umukara.

Amarembo y'umutuku yanditseho muhanga basi parike, hakaba hari imodoka iri gusohoka n'abantu bafite amagare menshi, n'abantu bari kwinjira abandi bari gusohoka.

Ni gare iyo gare hakaba hariho intebe z'abagenzi, abagenzi bakaba bicaye hari n'indi modoka ishaka gusohoka n'umugenzi akaba ari uruhande rwayo, uwo mugenzi akaba ahetse igikapu.

Ni imodoka zihetse ibintu bigiye bitandukanye, hari inzira y'abagenzi, harimo abagenzi bari kugendesha amaguru, harimo n'abari kuri moto, imbere y'imodoka hari umugenzi ufite igikapu mu ntoki.

Imodoka yanditseho vorukano, imbere yaho hari abantu bambaye imipira y'ubururu ari abasore, umwe yambaye ipantaro y'umukara, undi yambaye umukara wijimye, undi umweru, undi kake, bakaba bafashe kuri iyo modoka, hafi yaho hakaba hari ipoto rihari.

Amarembo ariho imodoka iri kwinjira, hahagaze umuntu wambaye ubururu, hino ya ho hari indi nyubako iriho abagabo babiri bambaye amajire ajya gusa umukara, hino hari indi modoka iriho Arufa, hakaba hari n'indi yegeranye na yo, hari inyubako ifite ibara ry'ubururu.

Ni abagabo bane n'umukobwa wa gatanu, muri aba bagabo harimo babiri bafite ibishusho bitandukanye hari n'undi imbere ye hateretse ikindi kintu gitandukanye, bakaba bari muri siporo.

Abanyamagare bari mu marushanwa. Abagaragara ni batanu, hari undi wo ku ruhande wambaye ingofero y'umutuku, akaba ari kumuhereza amazi, kandi uwo muntu ari guhereza amazi akaba yambaye rinete, hamwe n'umukurikiye.

Ni abakinnyi b'abakobwa batatu, hejuru bambaye umuhondo, hasi bambaye umukara, abandi bambaye umutuku hasi ni umukara. Bari gukinira muri sitade bakaba bari gukina umukino wa volebalo.

Abakinnyi bari gukina futu boro, bambaye inifomo itandukanye iy'ubururu n'umuhondo, hakaba hari n'umuhondo n'icyatsi, bari muri sitade bari kubareba bambaye n'inkweto z'umweru n'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibara ry'umuhondo, hakaba hariho abanyegare benshi bari gusiganwa, hakurya yaho hakaba hari umusozi w'amabuye bagenda bacukuraho, hakaba hari abantu batandukanye.

Abakinnyi b'umupira bari muri sitade, bamwe bambaye ubururu abandi bambaye umutuku urimo icyatsi. Bafashe umupira bari kuwutegaho amaboko, uw'inyuma ntabwo ari kuwugeraho, undi ari kubareba.

Umukinnyi w'umukobwa wambaye ishati y'umukara n'isengeri yicyatsi akaba asokoje insokozo kuruhande nta musatsi uhari yamanitse ukuboko hejuru afite baro ifite ibara ry'umuhondo n'ubururu.

Abakinnyi b'umupira umwe yambaye inifomo y'umweru, undi yambaye ubururu. Umwe wambaye ubururu afite baro, bakaba bari ahantu mu kibuga. Inyuma yaho hari ibara ry'ubururu, inyuma hakaba hari abafana benshi n'uri kuba kamera.

Abantu batatu kuruhande hariru umusaza wambaye ishati y'umweru iriho ibendera ryigihugu, yambaye na rineti ku ishati ye, akaba yambaye nipantaro yumukara. Hagati hari umuntu ufite ururabo rw'umutuku rudekoresheje umweru. Kuruhande hari umuntu wambaye rakosite y'ubururu, n'ingofero y'ubururu, yambaye na marinete.

Ni stade mu kibuga harimo abakinnyi batandukanye, abakinnyi bambaye umuhondo n'ubururu, n'abandi bambaye icyatsi n'ubururu, hakaba hari hino umuntu wicaye ku ntebe yambaye ubururu, hakaba hari gukinwa umukino witwa vore boro.

Abakinnyi b'umupira bicaye ahantu hasa ubururu. Hakaba hari umukinnyi wambaye yumuhondo, ufashe umupira. Hakaba hamanutsemo ibara ry'umweru n'abandi bakinnyi babiri bambaye icyatsi bafite imipira.

Amazi asutse ahantu hafite ibara ry'ubururu, hakaba hapavomye hariho amakaro, hirya hari urukuta rufite amabuye, inyuma hakaba hari akazu kubakishijwe imbaho, hakaba hari n'amabuye ahatondetse.

Abakinnyi batatu, umwe yikoreye umupira, abandi babiri umwe nimero zirindwi asutse igisuko cy'umutuku, yambaye umukara, undi wikoreye umupira yambaye umweru n'umukara, undi wo hirya bari kurwana, yambaye umukara na we.

Abantu bari gufana umupira w'amaguru. Mu kibuga hakaba harimo abakinnyi bambaye umweru, umukara hakaba n'abambaye umuhondo urimo icyatsi. umukinnyi ukaba ugaragara ari makumyabiri na kabiri na nimero umunani.

Ni amarushanwa y'amagare, hakaba hari amagare menshi cyane. Inyuma yaho hakaba hakikijwe n'abantu benshi, kandi inyuma y'aba bantu hari imodoka nyinshi cyane, hakaba hari n'icyapa gihari inyuma y'aba bantu.

Abakinnyi bari gukina umupira witwa voreboro, hakaba hari kugaragara nimero ebyiri wambaye ubururu, undi yasimbutse mu kirere, abandi babiri bahanitse ibiganza umupira uri inyuma yabo.

Imodoka yakoze agisida, iyo modoka ikaba iri mu muhanda w'igitaka, hirya yaho hakaba hari imodoka zindi zihaparitse n'abantu benshi batandukanye harimo n'abapolisi, bakaba barimo bareba iyo modoka.

Ni abakinnyi b'umupira, noneho bari ku kibuga gifite ibara ry'ubururu, noneho abafana babo bakaba bambaye umweru hejuru, hasi hakaba hari umuhondo. Abo bakinnyi bakaba bambaye umweru n'umukara.

Abanyamagare bari mu marushanwa, bakaba bambaye iniforume itandukanye. Hirya yabo hari umurima urimo urutoki rwinshi, hakaba harimo n'inzu yubakishijwe amategura. Inyuma y'iyo nzu hakaba hari kureguka igiti.

Abakinnyi b'imipira bari muri sitade, bamwe barapfukamye umwe afashe kumupira, abandi batandatu bahagaze inyuma yabandi, bari kureba imbere, batatu muri bo biteze utuntu tw'umweru.

Abakinnyi bafite umupira batezeho ibiganza umwe yambaye umuhondo handitseho nimero icumi undi yambaye icyatsi hino yaho hari abandi batatu barangariye uwo mupira hejuru bakaba bari muri sitade.

Abakobwa bari marushanwa yo kwiruka, bambaye amasengeri n'amakabutura. Imbere yabo hari umugabo wambaye inkweto zifunze. Inyuma y'aba bakobwa hari igipangu kinini cyane, kiriho amatara yo ku muhanda. Imbere muri icyo gipangu hari ibiti binini.

Umuntu wambaye ijire y'icyatsi usutse, akaba ari gutangira imodoka iri mu muhanda w'igitaka n'abandi bantu benshi bashungeye, imbere y'uwo muntu usutse hakaba hari icyapa, hari n'ipoto ifite insinga.

Ni umuhanda wacitsemo kabiri, inyuma y'uwo muhanda hakaba hari kaburimbo itaracitse, hakaba harimo umuntu uri kugenda n'amaguru, inyuma y'uwo muntu hirya gato hakaba hari igare ririmo kureguka.